Intoki z'umuntu uri gukaraba kuri robine, akaba ari robine iri kuvamo amazi, gusa nyeri izo ntoki, akaba atagaragara mu maso, akaba atagaragara n'igihimba.

Abantu benshi bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho Nyabageni awutirici hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, abagabo bakaba bambaye amataburiya y'umweru, hakaba harimo n'abandi bambaye imyenda y'imikara.

Abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo hakaba hari itente ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzu hakaba hari n'imodoka ifite ibara ry'umweru hakaba hari uruhurriane rw'abantu benshi.

Umwana uhagaze akaba afite icupa ry'amazi, imbere ye hakaba hari inzu, akaba ahagaze imbere y'urukuta rufite irangi ry'umukara, hejuru hakaba hubakishijwe amatafari ya munyu.

Umugabo wambaye agapfukamunwa akaba yambaye ishati y'icyatsi, ipantaro ya kaki, imberekaba ari meza iteretseho imashini ya laputopu, ingofero hakaba hari n'abandi bantu babiri bahagaze imbere yabo, umugabo wambaye ijiri y'ubururu ndetse n'umugore, hirya hakaba hari undi mugabo wicaye, hirya yabo hakaba haari undi mugabo wambaye ingofero wicaye wambaye agapfukamunwa.

Abagabo ndetse barimo n'abagore bakaba bambaye amataburiya y'ubururu ndetse bakaba bafite utugozi tw'ubururu mu ijosi. Hakaba harimo umugabo umwe wambaye ikositimu y'umukara ubarimo hagati ndetse akaba yambaye ishati y'umweru na karuvati, hirya naho hakaba hari undi umugabo wambaye itaburiya y'umweru wambaye karuvati y'umutuku ndetse n'ishati y'umweru, nawe ufite akagozi k'ubururu mu ijosi.

Aba babiri b'abahungu bose bakaba bakiri bato bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo bakaba ari meza gusa hiryabo akaba ari undi mwana utagaragara neza inyuma yabo hakaba hagaragara ubururu bwinshi.

Abantu bari mu nzu bakaba bicaye, hakaba harimo umugore wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara witeze igitambaro mu mutwe cy'umweru, akaba ateruye umwana.

Abantu benshi bari muri salle nini, ikaba ifite parafo y'umweru, ikaba irimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye, aho harimo intebe z'umukara ndetse n'ameza manini y'umukara, hakaba arimo abantu, abagore ndetse n'abagabo.

Umugabo ugaragara umutwe wonyine akaba yambaye amarinete afite ibirahuri bibonerana akaba ari ku cyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, akaba ahriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'andi yanditse mu ibara ry'umweru.

Umurwayi uri ku gitanda wambaye itaburiya y'ubururu ndetse akaba ari kumwe n'abaganga bambaye amataburiya y'umweru, aho ari kumwe n'umuganga uri kumusuzuma akaba hari undi muganga nawe uhagaze ufite ibipapuro by'umuhondo utagaragara mu maso.

Abasore b'abanyeshuri bambaye impuzankano hejuru bakaba bambaye ishati y'ubururu buvanze n'umweru, hasi bakaba bambaye ikabutura y'ubururu imbere yabo hakaba hateretse ibigega bibiri bavomamo amazi yo kunywa.

Abantu benshi barimo: abana, abagabo, ndetse n'abagore, bakaba bari ahantu ku mugezi aho hari umugore umwe uri kuvoma apompa, hakaba hari undi mwana umufatiye amabido.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu akaba ari kumwe n'undi mugore wambaye imyenda y'ibitenge, uteruye umwana akaba hari undi mugore wicaye hirya nawe utarireba umwana wambaye ikanzu y'umutuku, gusa akaba atagaragara mu maso, inyuma yabo hakaba hari ari urukuta.

Iyi nzu irimo abantu benshi akaba ari inzu nini ifite inkuta z'umweru, parafu y'umweru ikaba irimo abantu bagiye batandukanye gusa hakaba hari umugore uhagaze ufite umwana ufite ibipapuro mu ntoki.

Abana babiri harimo umuhungu umwe ndetse n'umukobwa umwe bakaba bari ku mugezi aho bavoma bapompye, umwe akaba ari aho amazi aturuka akaba afite akabido k'umuhondo undi nawe akaba ari gupompa.

Umugore wambaye ingofero akaba yambaye hejuru ya kaki ndetse na narakositi y'umweru akaba asutamye, aho imbere ye hari abana bambaye imipira ya oranje, inyuma ye hakaba hari abandi bantu bahagaze harimo umwe wambaye impuzankano za gisirikare.

Ibikoresho bibikwamo umwuka, bizwi ku izina rya bomboni, bikaba bifite ibara ry'ubururu ndetse imbere yaho hakaba hari indi mashini ifite ibara ry'ubururu, inyuma yaryo hakaba hagaragara ibara ry'umweru.

Umwana ufite ibido y'umuhondo, akaba ari kuvoma mu mugezi, akaba ari umugezi munini urimo n'ibimera bigiye bitandukanye, gusa hirya hakaba hari ibyatsi byinshi.

Abantu benshi bari mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, parafo y'umweru, akaba ari abantu biganjemo abagore, abagabo bakaba bicaye, imbere yabo hakaba hatagaragara.

Robine eshatu zikoreshwa mu buryo bwo gupompa, zikaba ziriho abana bagiye batandukanye, buri robine ikaba iriho abana babiri, aho imbere yabo hateretse amadobo y'umuhondo akaba ari abahungu n'abakobwa.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zifite ibara risa kaki, bakaba bambaye udupfukamunwa, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini gifite ibara ry'ubururu gifite inyuguti zanditse mu ibara ry'umweru.

Abagabo batatu bari mu nzu ifite parafu y'umweru, ifite inkuta z'umweru, bakaba bambaye amataburiya y'ubururu ndetse hakaba harimo umugabo umwe uri hagati wambaye taburiya y'umweru, bose bakaba bambaye utunozasuku tw'ubururu, babiri bakaba bambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse n'umwe wambaye agapfukamunwa k'umukara. Babiri muri bo bakaba bafite ibikarito by'umweru.

Abantu benshi bicaye, bakaba bicaye ku ntebe aho bicaye ku rubaraza rw'inzu, ikaba ifite inkuta z'icyatsi, akaba ari amagambo yometse ku gikuta.

Ni inzu nini irimo abantu benshi bagiye batandukanye, aho harimo abambaye imipira y'icyatsi, y'umweru, bakaba bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hakaba hari ameza afite ibitambaro by'umweru, hakaba hariho uducupa tw'amazi tw'inyange.

Umugezi bavomamo ukaba uriho abantu babiri b'abana aho hari umukobwa umwe uri kuvoma ufite akabido n'undi mwana muto uri kumupompera akaba ari umugezi bavomaho bapompye hirya hakaba hari abandi bantu biganjemo abana.

Umwana uri kunywa amazi kuri robine, inyuma ye hakaba hari abandi bantu gusa batagaragara mu maso, imbere ye hakaba hari intebe y'ubururu ya parasitike.

Bambaye impuzankano z'ishuri zifite ibara ry'umuhondo, ubururu, bose bakaba bari gukaraba intoki. Imbere yabo hakaba hari robine eshatu, inyuma yabo hakaba hari umuntu gusa utagaragara neza.

Umugabo wambaye umupira wa oranje akaba ari kumwe n'undi mwana wambaye umupira wa oranje, aho umwana ahagaze kumashini imupima ibiro, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu gusa batagaragara gice cyo hejuru.

Abantu benshi bahagaze, bakaba bari mu muhanda w'ibitaka, aho hari abicaye, uwicaye ndetse hakaba hari n'abandi bagabo bahagaze, abenshi bakaba bambaye imipira y'imyeru gusa, hakaba barimo abagabo babiri bambaye amajiri, umwe wambaye ijire y'umutuku n'undi wambaye ijiri y'icyatsi.

Barimo umugabo umwe ndetse abandi akaba ari abagore. Umugore umwe akaba yambaye itaburiya y'ubururu akaba afite igipapuro mu ntoki, undi akaba yambaye ikoti ry'umukara ndetse akaba yambaye n'igitenge. Akaba ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru, bose bakaba bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari intebe imwe itariho umuntu iriho ibipapuro.

Babiri b'abaganga bambaye imyenda y'ubururu, bakaba bambaye utunozasuku tw'umweru ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo hakaba hari itente ririho imeza iriho ibikoresho. Umugabo umwe akaba ari gupima umugabo w'umusaza wambaye imyenda y'umukara.

Inzu irimo abantu benshi bagiye batandukanye aho bicaye, imbere yabo hakaba hari abandi bantu batandatu barimo umugore umwe, abandi bose bakaba bambaye amakositimu y'imikara, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini kiriho amafoto y'abantu batandatu.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, irimo uturongo tw'umukara ndetse n'umweru, akaba yambaye ipantaro ya kaki, akaba ari kumwe n'umugore ufite akana, umugore akaba yitandiye, hirya hakaba hari abandi bantu batagaragara neza.

Inshinge nyinshi ziri mu gasahane gafite ibara rya silva, akaba ari inshinge zifite ibara ry'umweru ndetse n'akatsi gakeya, zikaba ziri kumwe n'akandi gacupa kaba karimo imiti. Izo nshinge zikaba ari inshinge esheshatu.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari ameza maremare akaba ariho umucupa, gusa akaba ari n' undi mugabo wicaye mu ntebe ya wenyine y'umukara, akaba yambaye ikositimu y'umukara, ishati y' umweru ndetse na karuvati umutuku nyuma ye yakaba aridarapo y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego gifite ibara ry'umweru kiri ku idarapo ryu.

Igikoresho cy'ubururu cyifashishwa mu gusukura intoki, akaba ari igikoresho gitanga amazi, hirya hakaba hari isabune y'umweru, imbere yacyo hakaba hari umumama wateze ibiganza utegereje amazi kugira ngo akarabe.

Abana babiri bakaba bateruye indobo y'icyatsi, bose akaba ari abakobwa, imbere yabo hakaba hari robine ifite iminwa ibiri, hirya hakaba hagaragara imbuga nini iteyemo ibiti ndetse n'umusozi, inyuma yabo hakaba hagaragara inzu.

Abantu benshi bari mu nzu bakaba bicaye ku meza maremare, aho bayazengurutse, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye mu ntebe z'icyatsi, bakaba bari mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo n'umukara ndetse na oranje.

Abantu babiri, batatu barimo umugore uteruye umwana ndetse n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ishati y'umweru. Akaba arigusuzuma uwo mwana. Bakaba bari mu nzu ifite amadirishya ndetse n'inkuta zijya gusa.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, akaba yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umutuku, akaba imbere hari ameza maremare afite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu, inyuma ye hakaba hari icyapa kinini gifite cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abana benshi b'abakobwa bakaba bambaye imipira y'ubururu yanditseho ijambo unisefu riri mu ibara ry'umweru, hakaba hari n'abandi bambaye imipira yanditseho unisefu gusa iriho andi magambo ari mu ibara ry'umukara, inyuma yabo hakaba hagaragara inzu yubatswe mu matafari ya munyu ifite amadirishya y'ubururu.

Benshi barimo abagore bafite abana hakaba harimo umugabo umwe wambaye itaburiya y'umweru w'umuganga uri kubafasha kubijyanye n'ubuvuzi hakaba harimo abagore bicaye ku ntebe z'ubururu ndetse n'abandi bahagaze.

Abantu benshi barimo abana ndetse n'abantu bakuru, akabamo abagabo n'abagore, abana bakaba bambaye imipira ya oranje akaba barimo n'abantu bakuru bambaye imipira ya oranje abana bakaba bicaye, ndetse akaba n'abandi bantu bahagaze.

Umugore wambaye umupira wa lacosite wa move ufite uturongo tw'umweru ndetse n'utw'umukara akaba yambaye ingofero y'ubururu, akaba akenyeye igitenge, imbere ye hakaba hari robine iteretseho ikibido cy'umuhondo, aho uwo mugore ari kuvomera.

Abantu bagiye batandukanye aho barimo abana ndetse hakaba harimo abagore n'abagabo, hakaba hari abantu babiri bahagaze hakaba harimo umwe ufite ikayi mu ntoki akaba ari imbere y'umuryango ufunze, aho hariho urukuta rukozwe n'imbaho rufite ibara rijya gusa nk'ubururu.

Abantu benshi bambaye amataburiya y'ubururu, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, gusa hakaba harimo abagabo babiri bambaye ikositimu ndetse n'abandi bantu babiri batambaye amataburiya.

Abantu benshi bari hamwe bahagaze, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo inyuma yabo hakaba hari ibikuta bishushanyijeho, hakaba handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umutuku.

Abagabo benshi bambaye kositimu hakaba harimo n'abagore bagiye batandukanye, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini gifite ibara ry'ubururu ndetse hakaba harimo amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri bahagaze. Hakaba harimo umugore umwe wambaye igitenge ndetse n'agapira k'umweru, akaba ari kumwe n'umugabo wambaye ikaburiya y'ubururu ufite igipapuro kiriho ibishushanyo bibiri, umukobwa ndetse n'umuhungu.

Umwana w'umukobwa wicaye imbere y'umugezi, uri kuvamo amazi, hirya y'uwo mugezi akaba hari ibido bitatu, birimo kimwe cy'umuhondo, oicy'ubururu ndetse n'ikindi gito cy'umuhondo, hirya hakaba hari ibiti.

Uruzitiro rubonerana, imbere hakaba harimo inzu ebyiri zubakishijwe amatafari ya mpunyu, zikaba zifite imiryango y'ubururu ndetse hakaba hari inzu imwe, imbere yayo hahagazeho umugabo.

Umugabo w'umusaza akaba yambaye ikote ry'umukara, ingofero y'umukara, akaba ari ahantu hari abantu benshi, harimo abagore bambaye amataburiya, hakaba hari n'umugore umwe wambaye umwitero w'umweru n'itabura y'ubururu.

Inzu ifite inkuta z'umweru ikaba iriho uturongo tw'umutuku ndetse n'ak'umweru n'ak'ubururu, imbere ku gikuta igikuta kiriho amateleviziyo ndetse hakaba harimo n'ibitanda byinshi biryamaho abarwayi. Akaba ari ibitanda bitatu n'ibindi bitagaragara.

Inzu nini ifite inkuta z'umweru kandi ifite amarido manini, ikaba irimo intebe nyinshi zigiye zitandukanyaho zicayemo abantu hagati yabo hakaba harimo ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse akaba ateretseho na raputopu, hirya naho hakaba hari abandi bantu bicayeyo ndetse hakaba hari n'abahagaze.

Abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba harimo umugore umwe wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umweru, akaba yegeranye n'abagabo bambaye amataburiya y'umweru.

Abantu benshi bari mu itente ifite ibara ry'umweru akabamo abantu bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abandi bagabo bambaye amakositimu y'umukara ndetse n'umugore imbere y'abantu hakaba hari ameza ateretseho ibintu.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, bakaba bambaye amataburiya y'ubururu, inyuma yabo hakaba hari itente, bakaba bahagaze muri pasiparume, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba harimo abandi bantu bicaye mu ntebe z'umweru.

Aba abana babiri bakaba bicaye ku mugezi, umwe akaba bambaye agapira k'umutuku, undi akaba yambaye igisarubeti, bakaba bateze intoki bari gukaraba, bakaba basutamye imbere y'umugezi, inyuma y'iyo robine hakaba hari isambu nini.

Umugore wambaye taburiya y'umweru akaba afite ikayi y'umukara ndetse na mikoro y'umukara. Imbere ye hakaba hari itente iriho idekoye, ikaba iriho ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi. Akaba iyo tente irimo abantu bicaye.

Abantu benshi bari kwa muganga, aho baje kwivuza, imbere yabo hakaba hari abandi bicaye mu ntebe babiri, imbere yabo hari imeza iriho Laptop ndetse n'impapuro, hakaba hari undi mugore uhagaze uri kumwe n'umwana.

Abantu benshi bari mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi, akaba bambaye amataburiya y'icyatsi ndetse ingofero z'icyatsi n'udupfukamunwa tujya gusa nk'umweru, akaba ari icyumba kirimo umurwayi gusa utagaragara neza n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura.

Imeza ikozwe mu biti ikaba iriho amasahani ndetse n'ibikombe ikaba ari imeza iteretse mu mbuga, imbuga igizwe n'ibitaka hirya yayo hakaba hari insina gusa zitagaragara hejuru ikaba iri mu gipangu cy'urugo rw'imiyenzi.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, akaba yambaye ipantaro y'umukara, akaba ari imbere ya robine aho amaboko ye afashe ku kibido cy'umuhondo.

Barimo umwe mukuru ndetse n'undi muto cyane bakaba bari kuvoma amazi ku mugezi aho bafite ibibuni bibiri, umwe akaba afite kimwe kinini undi gitoya akaba ari ibibido by'umuhondo.

Abagabo bane ndetse n'umugore umwe hakaba harimo umwe wambaye rinete ndetse n'itaburiya y'ubururu akaba yambaye ga z'umweru akaba yegeranye n'undi wambaye akagozi mu ijosi k'ubururu kariho ikarita y'umweru, imbere yabo akaba yateretse udukarito tw'imiti.

Umugore uteruye umwana akaba akenyeye igitenge ndetse akaba yambaye umupira w'umutuku, imbere ye hakaba hari indobo y'umukara ari kuvomamo ndetse umwana akaba yambaye ingofero y'umweru.

Abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bicaye ku ntebe z'imikara hagati yabo akaba ari ameza maremare ariho uducupa tw'amazi akaba ariho n'amakaye.

Iifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku akabaari imodoka ya ambilanse ikaba ifite pulake zirimo ibara ry'ubururu nyuma yayo hakaba hari itente ry'umweru ndetse n'abantu benshi.

Umugore uri kuvoma ku mugezi, aho amazi ari gushoka mu karigori, hirya hakaba hari umwana wicaye ndetse akaba ategereje uwo mugore.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, akaba ateruye umwana, inyuma ye hakaba hari undi muntu nawe utaruye umwana gusa utagaragara neza, inyuma yabo hakaba hagaragara urukuta rufite irangi ry'umuhondo ndetse n'idirishya rifite ibirahuri bibonerana.

Icyapa cy'ubururu gifite ibirango by'umweru kikaba gifite amagambo yanditse mu ibara ry'umweru akaba ari amagambo asomwa oni daburiyu efupi.

Abana babiri, umwe akaba afite ibinika y'ubururu ndetse undi akaba ari umuhungu wambaye agasengeri k'umukara n'ikabutura y'umuhondo, akaba yunamye ari gukaraba intoki mu ndobo y'ubururu, inyuma yabo hakaba hari inzu.

Abantu nyamwinshi barimo abagore ndetse n'abagabo, bose bakaba harimo abambaye imipira y'umweru ndetse n'abandi bambaye imipira y'ubururu, bose bakaba bambaye ingofero z'umweru, bakaba bafite icyapa cya RBC kinini.

Umwana wambaye yunifomu zifite ibara ry'umutuku ndetse akaba ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe ifite akabase k'umuhondo ikaba ifite indobo y'umutuku, hirya ye hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari ya mone.

Ikimodoka kirekire cya rukururana kikaba gifite ibara rijya gusa n'umweru akaba ari ikimodoka kigaragara mu rubavu rwacyo, hakaba hariho icyapa cya we daburiyu pi efupi gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibirango by'ubururu.

ijambo WASAC, rikaba ryandikishijwe n'inyuguti zirimo amabara y'ubururu, ndetse hakaba harimo n'inyuguti imwe gusa iri mu ibara ry'icyatsi, hirya hakaba hari ikindi kirangantego kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'akeru gake, munsi y'ijambo WASAC hakaba handitsemo "Water Sanitation Corporation", bikaba biri mu ibara ry'ubururu.

Hari isengeri, akaba yambaye ikabutura afite ikibazo cyo mu mutwe. Hagati akaba yambaye ipine, imbere akaba ari abantu gusa bagaragara amaguru. Uwo mugabo na we akaba atagaragara umutwe wose.

Umugabo w'igikara wambaye isengeri yacitse akaba yambaye ipantaro yacitse, afite imifuka mu ntoki inyuma yaka hagaragara imodoka y'igikamyo itwara imizigo ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umukara.

Abantu benshi bari mu nzu akaba ari abagore ndetse n'abagabo abagabo bakaba bambaye udupfukamunwa abagore hakaba harimo bambaye ibitenge, imbere yabo hakaba hari ameza n'ibitambaro by'umweru hari ubucupa bw'amazi

Umugore wambaye umupira w'umutuku akaba yambariyemo n'undi mupira mu imbere w'umukara, akaba ari umugore w'umwirabura wasetse, akaba afite imisatsi isanzwe itari ibisuko, inyuma ye hakaba hagaragara ibiyeziyezi.

Abagore bane bakaba bicaye ahantu hamwe ndetse bakaba bari kumwe n'undi mugabo umwe, inyuma yabo hakaba hagaragara ibiti byinshi ndetse n'insina, akaba ari insina nyinshi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu akaba ari umwirabura. Inyuma ye hakaba hari imbaga y'abantu benshi, gusa batagaragara neza hakaba harimo uwambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umukara.

Inzu irimo abantu babiri hakaba harimo umugore umwe ndetse n'umugabo wambaye agapfukamunwa wambaye ikoti ry'umukara, umugore akaba yambaye ikote ry'ubururu, inyuma yabo hakaba hari ibyapa bya rbc.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku wicaye ahantu, akaba yicaye ku ikarato, akaba ari umugabo ugaragara nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe, hirya ye hakaba hari abandi bantu, gusa utagaragara neza.

Abantu babiri umwe akaba yambaye ingofero ya gisirikare akaba yambaye ikote ry'umutuku n'ipantaro y'umutuku, undi yambaye umupira w'umukara ipantaro y'umukara bose bakaba bicaye.

Abantu benshi bambaye imyenda y'icyatsi ndetse harimo n'abandi bambaye impuzankano za gipolisi, bakaba bafite icyapa kinini cyanditseho ''Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye'' ayo magambo akaba yanditse mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi bahagaze bakaba barimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba barimo n'abandi bantu bicaye, bakaba bari mu nzu ifite purafo y'umweru ikaba ifite urukuta rufite ibara ry'umweru, hakaba hari ifoto imanitse ku rukuta.

Umwana wambaye ishati y'umweru, utamiye akantu mu kanwa, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umuhondo, ishati ye ikaba iriho agakaravate k'ubururu kadodeyeho, inyuma ye hakaba hagaragara abandi bantu gusa batagaragara neza.

Abagabo babiri, umugabo umwe wambaye ishati itukura irimo utubara tw'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari kumwe n'undi mugabo wambaye imyenda yacikaguritse ugaragara nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Umupira ufite ibara ry'umweru ufite n'ibara ry'ubururu ku maboko inyuma hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba hariho amabara nk'umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Umugore wambaye imyenda icikaguritse akaba yambaye imyenda isa nabi, akaba ari umugabo usa nabi mu maso ufite imisatsi myinshi ubona ko ari umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe akaba ari mu muhanda hagati aho abanyamaguru banyura muri kaburimbo.

Umugore wambaye isengeri y'umukara, akaba yambaye ipantaro y'ikoboyi yahinnye, akaba ari umugore ufite imisatsi itari myinshi, akaba yicaye, akaba yasetse.

Abagore batatu ndetse barimo n'umugabo umwe bakaba bari ahantu hamwe, inyuma yabo ku rukuta hakaba hari ibara ry'ubururu, hakaba harimo umugabo wambaye ishati ijya gusa nk'umweru wererutse ndetse n'undi mugore ufite agapfukamunwa ku kuboko wambaye ijire ndetse n'abandi bagore babiri, hirya yabo hakaba hari umuntu utagaragara neza ugaragara ukuboko kumwe.

Abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bahagaze ku mayesikariye, imbere yabo hakaba hari icyapa, inyuma yabo hakaba hari inzu, hakaba hari abagabo babiri bahagaze imbere, bambaye kositimu ndetse n'abari inyuma bambaye kositimu.

Umugore wicaye mu nzu, akaba yicaye ku gatebe, akaba hariho idirishya ry'umukara rifunguye, akaba ari inzu igaragara nk'ishaje, hasi hakaba hariho umukeka.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu, akaba yambaye ingofero, akaba yicaye, akaba ari ku cyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi, akaba ari icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Umugore wambaye ikanzu ikoze mu gitenge akaba akenyeye agatambaro k'igitenge mu mutwe akaba yasetse, amenyo akaba agaragara, inyuma hakaba hagaragara abantu gusa bagaragara ibiyeziyezi.

Abantu benshi bahuriye hamwe bari munzu nini ifite inkuta z'umweru, imiryango ifunguye, amadirishya afunguye, bakaba bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hakaba hari ameza maremare. Hakaba hari umugore umwe uhagaze wambaye ikote ry'umukara n'ikanzu y'umweru.

Umugore wambaye umupira w'umweru akaba ateruye umwana wasetse ndetse uwo mugore nawe akaba yasetse, akaba afite imisatsi ya natirere y'umukara, akaba inyuma ye hari inzu yubakishijwe amatafari yamunyu.

Abantu benshi b'abana harimo umugore umwe w'umucecuru ukuze, akaba yicaye hagati yabo, akaba ari kumwe n'abana benshi barimo abakobwa ndetse n'abahungu.

Abantu bari mu nyubako nini ifite intebe nyinshi zirimo izifite ibara ry'umukara, imbere hakaba hari abantu bahicaye batandatu, imbere yabo hakaba hari imeza iriho igitambaro cy'umweru, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini cya RBC(Rwanda Biomedical Centre).

Abana benshi bari guseka hakaba harimo abambaye impuzankano z'icyatsi hakaba hari n'abari inyuma batagaragara neza, uri imbere akaba yambaye agapira kajya gusa nk'ikigina.

Inyubako nini irimo abantu benshi bagiye batandukanya, abagore ndetse n'abagabo, ikaba ari inyubako ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ndetse hakaba harimo ameza abiri.

Ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'andi magambo ari mu ibara ry'umuhondo, hakaba hariho ifoto y'umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ishati igiye gusa nk'iroza.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, akaba yambaye n'undi ufite ibara rya oranje ndetse n'umukara, akaba yikoreye igitebo kirimo ibyatsi byinshi, inyuma ye hakaba hari inzu ifite amategura.

Abantu benshi bari mu nzu, hakaba ari umugore uri imbere wambaye ishati y'umweru ifite ikora y'icyatsi, imbere ye hakaba hari imeza iteretseho ubucupa bw'amazi ndetse n'imashini ya laptop.

Umugabo wicaye wambaye imyenda yacikaguritse, akaba afite ibintu mu ntoki, ishashi irimo amazi, akaba ari umugabo usa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe, imbere ye hakaba hateretse ibipapuro.

Ibiganza by'umugore wifashe mu mutwe, akaba afite ibisuko ndetse akaba atagaragara mu maso, akaba yubitse umutwe. Yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hagaragara umweru gusa.

Abantu benshi bahagaze ndetse abandi bakaba bicaye, bakaba bari mu nyubako ifite parafo y'umweru, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini gifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku cyanditseho RBC.

Umugabo wambaye umupira w'umukara wa lakosite, ufite agatambaro k'icyatsi, ndetse akaba ari kumwe n'ndi mugore wambaye ishati yo mu gitenge ufite mikoro akaba yicaye mu ntebe y'umutuku, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho isakoshi.

Abana benshi bari ahantu hamwe bakaba basetse, hakaba barimo abahungu ndetse n'abana b'abakobwa, hakaba harimo uwambaye agapira k'umutuku undi wambaye agapira kajya gusa nk'umweru wivanzemo ndetse n'abandi bambaye amabara agiye atandukanye.

abantu barimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bari mu itente rifite ibara ry'umweru imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibitambaro by'umukara akaba ariho n'ibindi bintu byinshi birimo ibipapuro ndetse n'ibindi

Umugore wambaye ikote ry'umukara akaba yambayemo akantu imbere k'umutuku, akaba yahindukiye, inyuma ye hakaba hari icyapa gifite ibara rya oranje gifite amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe akaba afite ibintu byinshi bimuriho by'imyanda yagiye atoragura, akaba ari imbere y'ahantu bajugunya imyanda. Inyuma ye hakaba hari ibintu bagiye bahajugunya byinshi bigiye bitandukanye.

Umuntu utagaragara mu maso wambaye ingofero ifite ubwoya akaba n'ibiganza bye bibiri biri kwihanagura mu maso, inyuma hakaba hagaragara umuntu utagaragara neza ugaragara ibiyeziyezi.

Umugore wambaye isengeri y'umweru uri kumwe n'umwana wambaye isengeri y'umweru bose bakaba bafite uburaso bari koza amenyo. Inyuma yabo hakaba hari urukuta rufite ibara ry'umweru.

Iryinyo ryakuwe aho ryakuwe hakaba harimo ikinogo; iryavuyemo rikaba ririho amaraso menshi; rikaba rifashwe n'igikoresho cyifashishwa bakura amenyo.

Ifoto igaragaza mu kanwa, aho hagaragara amenyo afite ibara ry'umweru ndetse n'umukara mukeya, hakaba hagaragara ishinya ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru muke.

Igikoresho cy'umukara cyifashishwa mu buvuzi bw'amenyo kikaba kimanutse ku kantu kagifata gafite ibara ry'umweru, hirya naho hakaba hari indi mashini ifite ibara ry'umweru gusa itagaragara yose, nayo ikaba imanitse ku rukuta rw'umweru.

Inzu nini igeretse inshuro ebyiri, ikaba ifite ibirahuri bya fime ndetse hejuru hayo hakaba hari ibara rijya gusa nk'icyatsi cyijimye, ikaba ifite parikingi nini akaba ari inzu ya etaje.

Ifoto igaragaza uburwayi bw'amenyo, aho amenyo asa mu ibara ry'umukara, gusa ahazima hakaba hagaragara nk'umweru, akaba ari hakeya ariko ahenshi hakaba hagaragara nk'umukara wererutse.

Muganga wambaye taburiya y'umweru, akaba yambaye agapfukamunwa k'umweru, aho ari kumwe n'umurwayi ari gusuzuma mu kanwa, hiryaye hakaba hari abandi bantu imbereye hakaba hari ameza ariho impapuro nyinshi, telefone ndetse n'ikaramu.

Umugore w'umwirabura wambaye umwenda w'ubururu akaba yambariyemo agapira k'umuhondo n'umweru, akaba ari kwireba mu ndorerwamo aho yicaye mu nzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umugabo wasetse akaba yambaye agapira ndetse n'akandi kantu yashyize mu ijosi k'umweru, akaba ari mu nzu ifite ibara ry'umweru, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganje mu ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashijwe mu buvuzi bw'amenyo akaba ari ibikoresho byiganje mu ibara ry'umweru, iyo nzu ikaba ifite parafo y'umweru, utubati dufite ibara ry'umweru.

uUmugabo wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari kumwe n'undi mwana wambaye ishati y'icyatsi, inyuma ye hakaba hari abandi bantu abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, gusa umugabo umwe muri bo akaba atagaragara, bakaba inyuma yabo hari ikibaho.

Umugore ufite imisatsi y'umukara akaba yahumirije akaba yagaragaje amenyo ndetse akaba afite akadodo afashe n'amaboko abiri kari kunyura hagati mu menyo yambaye isengeri inyuma ye hakaba hagaragara ibara ry'icyatsi cyerurutse cyane.

Umwana muto w'inzobe akaba yasetse mu kanwa ke bakaba bashyizemo ibintu bisuzuma amenyo, hakaba hari ibiganza byambaye ga bifashe icyo kintu bari kumupimisha mu kanwa.

Umwana wambaye agasenge k'umuhondo akaba yasamye hakaba hari undi muntu utagaragara mu maso, ugaragara intoki zambaye ga z'umweru akaba ari kumupima mu kanwa areba ikibazo afite mu menyo.

Amaboko yambaye isaha akaba afite ibikoresho bifashisha bavura amenyo, akaba ari intoki eshatu, imbere ku meza hakaba hari n'ibikoresho byinshi bifashisha bavura amenyo.

Abana benshi bari kwiborosa, bakaba bafite uburoso ndetse n'ibikombe, bakaba bambaye impuzankano aho amashati ari amashati ya karokaro afite uturongo tw'icyatsi ndetse n'uturongo tw'umweru ndetse n'amakabutura y'icyatsi.

Umugabo w'umwirabura akaba afite amenyo y'umweru, akaba yambaye agapira k'umweru katagaragara neza, akaba agaragara igice cy'akanwa gusa, mu maso hakaba hatagaragara, akaba afite akagozi ari kunyuza mu menyo.

Amenyo y'umweru wasetse cyane, akaba yambaye umupira w'umweru ndetse akaba ari umugabo w'umwirabura. Inyuma ye hakaba hari ibara ry'umuhondo dededede.

Umugabo w'umwirabura wasetse, ufite amenyo y'umweru, akaba afite ubwanwa bw'umukara, akaba ari umugabo wambaye ishati y'ubururu y'ikoboyi ndetse mo imbere akaba yambariyemo agapira gasa nka shokora.

Umugore wambaye umwenda wo kurarana w'umukara, akaba ari muri dushe, imbere ye hakaba hari ikirahure, akaba ari kwirebamo, akaba ari kwikura ibintu mu kanwa.

Umugore wambaye imipira y'ubururu, bakaba bafite uburoso, bakaba harimo nk'ufite uburoso bw'icyatsi, undi ufite uburoso bw'umuhondo, ndetse n'undi ufite uburaso bw'ubururu, ariko utagaragara neza, inyuma yabo hakaba hagaragara icyezeri.

Ifoto igaragaza amenyo, akaba hagaragaraho amenyo y'umweru ndetse hakaba hagaragaraho, n'umukara gusa wiganjemo umweru mukeya.

Icyumba gifite inkuta zifite irange ry'umweru, kikaba gifite purafo y'umweru, amatara y'umweru, aho harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umweru, bikaba ari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, akaba yambaye irinete zifite ibirahure bibonerana, akaba yambaye imyenda y'icyatsi ndetse na ga, akaba ari kumwe n'umuntu yasamuye ari kureba mu kanwa k'iwe.

Isengeri y'umweru akaba ari muri dushe, aho ari kwiborosa, akaba ari kwireba mu kirahure kinini. Imbere hakaba ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu bwiherero.

Intebe iryamaho umurwayi ikaba iri mu nzu irimo ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa no kwa muganga ikaba ifite amakaro y'umweru ndetse ikaba irimo ibikoresho byiganje mu ibara ry'umweru.

Benshi bicaye mu ntebe hanze akaba arimo babiri bafite inkoni harimo umusaza umwe ndetse n'umukecuru umwe, bakaba bicaye hanze y'inzu iyo nzu ikaba ifite amadirishya y'umukara.

Abagore babiri, harimo umugore umwe ukuze ufite imvi z'umweru akaba yambaye umwenda w'umweru hejuru, akaba ari kumwe n'undi mugore wambaye ishati y'icyatsi irimo uturongo tw'umweru bakaba bari munzu.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'umweru gusa imbere hakaba hari abantu babiri barimo umugore umwe ukuze wambaye umushanana w'umweru, agapira k'ubururu ndetse n'urunigi rw'umukara n'umweru akaba ahagararanye n'undi mugabo w'umusaza nawe wambaye umushanana ndetse n'ishati, hirya yaho hakaba hari n'undi muntu gusa utagaragara mu maso.

Umugabo n'umugore umugabo akaba yambaye agapira k'ubururu bwijimye, umugore akaba nawe yambaye agapira k'umutuku, bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hakaba hari meza iririmo utuntu tw'umweru.

Kumwe aho harimo umugore umwe usa nk'ukuze ufite imisatsi y'umweru, akaba ari kumwe n'undi mugore bakaba bari mu gikoni bari gutunganya ibiribwa. Aho imbere yabo hari ibikoresho byo guteka inyanya, pavuro, seleri ndetse n'ibindi.

Intoki z'Umwirabura ziri gukina dame, akaba ari dame iriho utwo bakinisha tw'umukara ndetse n'utundi tujya gusanga kake. Akaba ari dame iri mu ibara ry'umukara ndetse na kake.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa bw'umweru, akaba ari kumwe n'umukobwa w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, aho ari kumufata ibipimo yifashishije imashini imuri imbere ku meza.

Umugabo wambaye itaburiya y'umukara, ipantaro y'umutuku, akaba ari kugendera ku kagare kamufasha kugira ngo abashe kuba yabasha kugenda, akaba ari kumwe n'undi muganga w'umuzungu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu babiri harimo umugabo ufite ubwanwa bw'umweru ndetse n'umugore wambaye agapira k'umweru ipantaro y'umukara umugabo akaba yambaye umupira w'umukara imbere yabo akaba ari ameza ateretseho imashini ya lapu topu bakaba bari munzu ifite inkuta z'umweru amadirishya afite ibirahuri bibonerana.

Abagabo babiri, abagore babiri n'abana babiri. Abagabo, umwe akaba yambaye ishati y'umweru, undi akaba yambaye agapira ka shokora. Inyuma yabo, hakaba hari ibiti byinshi. Bose bakaba basetse.

Umugabo n'umugore, umugabo akaba afite imisatsi y'umweru, akaba ari n'umusaza. Umugore na we afite umusatsi y'umweru, wambaye linete zifite ibirahuri bibonerana, ishati y'umweru ndetse imbereye hakaba hateretse laptop. Umugabo aka afite agacupa k'ibinini.

Umugore w'umukecuru akaba afite mikoro y'umutuku akaba yambaye umashanana akaba yambaye agapira k'ubururu ndetse akaba yambaye ikinigi cy'umukara n'umweru akaba ari imbere hakaba hari akameza, inyuma ye hakaba hari imodoka ziri guturukayo ndetse hakaba hari n'inzu yegeranye n'ibiti.

Abagabo babiri, umwe akaba yambaye ikoti ry'umweru, itiriningi y'umukara n'undi wambaye umupira w'umweru, itiriningi y'umukara irimo ibara ry'umweru, bose bakaba bafite ubucupa bw'amazi, bakaba bari muri siporo.

Umugabo uri guseka wambaye amarinete akaba afite ibirahuri bibonerana akaba afite imvi, akaba ari umugabo wicaye mu kagare inyuma yaho hakaba hari undi mugore nawe wasetse.

Umugabo uri kumwe n'akana kambaye rakosite y'umweru n'agapira k'inyuma k'imbeho akaba gateruye umupira wa basikete bakaba bari mu kibuga cya basikete bakaba bari gukina.

Biri hakaba harimo umugore umwe ukuze ufite imvi z'umweru, akaba yamanitse amaboko akaba ari gukoreshwa siporo n'undi mugore bakaba bari mu nzu ifite ibirahure bibonerana.

Abagabo babiri; umwe wambaye ingofero ya kaki, ishati y'umweru, umushanana w'umukara, undi wambaye ishati ijya gusa nk'icyatsi cyerurutse, umushanana w'umweru n'ingofero y'umukara bakaba bari mu itente. Inyuma yabo hakaba hari abandi bantu benshi.

Abantu benshi bari mu itente y'umweru, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicay, hakaba harimo umugore umwe uri kugenda abakira, wambaye ikanzu y'umukara n'ijire y'ubururu bwijimye.

Abantu benshi bahagaze barimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hakaba hari ibikoresho byifashishwa n'umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda ndetse n'ibindi bicayemo.

Abantu babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari imeza ndende iriho impapuro, akaba ari umugore ndetse n'umugabo, bakaba bari mu nzu irimo intebe nyinshi, harimo n'itapi y'umutuku hirya. Akaba ari inzu ifite inkuta z'umweru, ibirahuri bibonerana.

Umugabo w'umusaza akaba ari kumwe n'abandi bana babiri, umwana umwe akaba afite akarido k'umweru undi akaba afite irindazi, umugabo we akaba yambaye ishati y'umweru akaba ari umugabo ukuze ufite imvi z'umweru.

Umugore wambaye isengeri ya move, akaba afite imvi z'umweru, akaba ari gukora siporo, akaba aryamye ku gatapi k'ubururu, aho ari mu nzu ifite inkuta z'umweru.

Ababyeyi babiri, umwe akaba ari umuzungu, undi akaba ari umwirabura, uw'umuzungu akaba afite igikoresho cyifashishwa kwa muganga gipima abarwayi, inyuma yabo hakaba hari inzu gusa itagaragara neza...

Abakecuru benshi bari hamwe bambaye ibitenge, bamwe baka bicaye hasi akaba hari n'abandi bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umweru, hakaba ari intebe ebyiri ziticawemo inyuma yazo hakaba ari insina.

Umugabo wambaye umupira w'umweru akaba afite inkoni akaba afite ubwanwa bw'umweru ndetse hejuru hakaba hari umugore wasetse wambaye imyenda y'ubururu akaba afite ibisuko biryamye.

Abantu benshi Harimo abana ndetse hakaba arimo abagore babiri bakuze, umwe akaba yicaye hagati yabo, abandi bakaba bahagaze inyuma bakaba bari mu nzu irimo ikigega gifite ibara ry'ubururu ndetse rifite n'umufuniko w'umukara.

Abagabo babiri, umugore ndetse n'umugabo. Umugabo akaba yambaye umupira w'umweru, umugore akaba yambaye umupira wa pinki, bakaba bari ku meza iriho amafunguro agiye atandukanye.

Umugore wambaye umupira usa burusiyeri n'umugabo wambaye itaburiya isa burusiyeri akaba afite umugabo akaba afite ibikoresho bifashisha bapima abarwayi mu ijosi umugore nawe akaba afite inkoni.

Umugabo umugore wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, akaba yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'ubururu, akaba afite remoti bakinisha gamu, akaba ari kumwe n'undi mwana wambaye umupira wi'icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi

Aba batatu barimo umugore umwe, umugabo umwe w'umusaza ndetse n'umuzungu umwe, uwo muzungu akaba yambaye ishati y'umweru, ipantaro yikoboyi, ndetse hagati ye akaba arimo umugabo ukuze ufite imvi z'umweru wambaye imyenda y'umukara, bakaba bari kumukura ku buriri muri amashuka y'umweru.

Umugore wambaye amarinete afite ibirahure bibonerana, akaba yambaye ishati y'umuhondo, akaba afite agacupa k'ibinini k'umweru mu ntoki ze, imbere ye hakaba hateretse n'akandi k'umweru.

Umusaza wambaye amarinete abonerana akaba ari kumwe n'undi musore wambaye ishati ya karokaro irimo uturongo tw'umweru ndetse n'utw'umukara imbere yabo hakaba hateretse ibikombe by'umweru ndetse bakaba bafite igitabo bari gusoma.

Abagore babiri harimo umwe wambaye umupira wa buresiyeri n'undi wambaye umupira w'umweru, akaba yambaye rinete zifite ibirahure bibonerana, akaba ari gukata imbuto ku isahane, undi nawe akaba afite isorori ifite ikirahure kibonerana.

Ibiribwa bigiye bitandukanye, bikaba ari amoko menshi byiganjemo amabara y'umweru, umukara, umuhondo bikaba byose bibumbiye ahantu hamwe.

Abagore bicaye babiri bakaba bicaye mu ntebe abandi batatu bakaba bicaye hasi ndetse bakaba bari kumwe n'abana, bakaba bari kumwe n'undi mugabo w'umuzungu uteruye akana k'akirabura.

Umugore w'umwirabura akaba ateruye icyuma bifashisha bakora siporo, kikaba gifite ibara rya move, akaba ari gatoya, nyuma hakaba hagaragara abazungu gusa bagaragara ibiyeziyezi.

Umugabo w'umwirabura ufite imisatsi y'umukara akaba afite ubwanwa bw'umweru, akaba yifashe mu gahanga, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho suri n'ibindi bitabo, ubona ko ari kwiga.

Umugabo w'umusaza ufite imvi z'umweru, ndetse bakaba bari kumukarabya, akaba ari amazi menshi amuriho, akaba ari ibiganza by'umuntu utari kugaragara isura bimukozeho.

Umugore wambaye amarinete y'umutuku afite ibirahuri bibonerana, akaba yambaye umupira w'umukara, mu kuboko kw'ibumoso hakaba harimo ikirahure banywesha amazi, akaba ari mu nzu ifite urukuta rw'umweru.

Abagore babiri harimo uwambaye ikote ry'umukara ririmo uturongo tw'umweru ndetse n'undi mugore umwe wambaye agatambaro mu mutwe k'umutuku, bakaba bari muri siporo hirya hakaba jaride itagaragara neza.

Abantu babiri barimo umugabo umwe ufite imvi z'umweru akaba yambaye rinete zifite rero ribonerana, ndetse mbere akaba ari umugore, imbere yabo aba ari ameza ateretseho amazi mu kirahure ndetse n'ikayi ifite impapuro z'umweru.

Abagore bane bakaba bicaye ndetse bose bakaba bateruye abana, inyuma yabo hakaba hari urukuta rumanitseho ibipapuro bine.

Umwana wambaye umupira w'icyatsi, akaba afite umusatsi w'umukara imbere ye akaba hari undi muntu utagaragara neza, akaba ari ku cyapa kiriho amagambo afite ibara ry'umukara ndetse n'adifite ibara ry' umweru, akaba ari icyamba cyumweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo bambaye imipira y'imyeru, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, abari imbere bakaba bafite ibyapa bya bandelole binini byanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere.

Inzu nini ikaba irimo abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba hari abicaye imbere bambaye amakositimu akaba ari abagabo batanu ndetse n'umugore umwe, abo bose uko ari batanu bakaba bambaye amakositimu.

Dufite ibiheri byinshi, ndetse n'utundi tubyimba twinshi akaba ari ukuboko kumwe k'umuntu utagaragara mu maso, hirya kuko hakaba hagaragara ibara ry'ubururu gusa rigaragara igice.

Abantu benshi batagaragara mu maso bambaye udupfukamu tw'ubururu n'amataba y'umweru, bakaba bambaye n'ingofero z'imyeru, akaba ari abantu batandatu b'abaganga, bakaba bari mu nzu, inyuma hakaba hari n'undi muntu ugaragara wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agapfukamunwa.

Abagore benshi bicaye ahantu hamwe, bose bakaba bari kureba imbere, bakaba bagaragara mu migongo, hakaba harimo abambaye ibitenge ndetse bakaba bicaye ahantu ku gasima k'umukara.

Amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse akaba hari n'andi yanditse mu ibara ry'umutuku, hakaba hari ikirangantego kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku.

Abagabo babiri bambaye kositimu, umwe akaba afite urupapuro, n'undi na we akaba afite urundi rupapuro, bakaba basuhuzuzanyije mu ntoki. Inyuma yabo hakaba hari kugaragara umweru ndetse n'ibirangango by'u Rwanda, byinshi.

Abagabo babiri bakaba bambaye kositimu z'imikara, amashati y'umweru, karavate y'umukara, ndetse n'amapantaro y'imikara ,bakaba bari ku cyapa gifite ibara ry'umweru gifite amagambo arimo ibara ry'umutuku, ubururu, umukara, ndetse n'umweru, hakaba hari ijambo ryanditse mu ibara ry'umutuku ryanditse halifuke.

Umugabo w'umuzungu ufite igipapuro cyu'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku akaba wanditseho monkey pox vaccine access now, akaba ari umugabo wambaye ingofero ndetse n'umupira w'amakara.

Abantu benshi bari mu nzu akaba arimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bicaye bareba imbere, imbere yabo hakaba hari abantu batatu barimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe uri hagati yabo.

Ihuriro ry'abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bari mu nyubako nini ifite sare nini bakaba bicaye mu ntebe z'imituku imbere yabo hakaba hari abandi bantu barimo abagore babiri b'abicaye imbere n'abagabo bane.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo intebe nyinshi zifite ibara ritukura, hakaba harimo abantu benshi bagiye batandukanye, aho harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bagaragara mu migongo, gusa imbere ya bo hakaba hari abantu batandatu bahicaye harimo abagore ndetse n'abagabo.

Umugore wambaye agapira k'icyatsi akaba yambaye n'ijipo y'umweru irimo uturarabyo, akaba ahagaze imbere aho ari mu nzu nini irimo ibikoresho byinshi nk'amabafure, ndetse hakaba harimo n'abindi bantu bicaye gusa batagaragara neza.

Abantu benshi bari mu muhanda bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore benshi, bakaba biganjemo bambaye imipira y'imyeru, hakaba hari ab'imbere bafite icyapa cya arabisi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyapa gifite ibara ry'umutuku hakaba hariho umugabo wambaye ishati y'umweru, akaba ari icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Inzu nini ifite inkuta z'umweru, purafo y'umweru ikaba irimo ibitanda byinshi, ifite matera z'umweru buri gitanda imbere yacyo hakaba hari irido rifite ibara ry'ubururu, hakaba harimo n'ibindi bitanda biri ku rundi ruhande gusa bitagaragara neza.

Inzu ifite inkuta ndende ikaba ifite amadirishya afite ibirahuri bya fime hejuru hakaba yanditseho rubanda kansa senta akaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'ibyatsi. Inyuma y'iyo nzu hakaba hari indabyo na jaride.

Ikigo gifite amagiriyaje ndetse kikaba cyubakishijwe amatafari y'impunyu hakaba harimo icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri, kikaba ari inyuguti zandikishijwe mu ibara ry'ubururu inyuma yacyo hakaba hari kunyura abagenzi benshi.

Ifite inkuta z'umweru, parafo y'umweru, amatara y'umweru, ikaba irimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura aho harimo ibitanda bibiri abarwayi baryamaho.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, akaba ari icyumba cyifashishwa babika amaraso, bongerera abarwayi badafite amaraso, akaba ari icyumba kirimo utubati

Inzu nini yubakishijwe amabuye y'amakoro, ikaba iri gutambukamo abantu babiri. Umwe wambaye itaburiya n'undi wambaye ishati y'umweru, bakaba bari kunyura mu kayira k'agakorodoro.

Umugabo wambaye ga z'umweru, akaba yambaye ishati y'umweru, akaba afite urushinge ari gutera undi muntu, inyuma yaho hakaba hari intebe ndetse n'abandi bantu batagaragara neza.

Inzira y'abanyamaguru yubakishijwe amapave ifite ibyerekezo bibiri imbere yayo hakaba hari inzu hakaba hari abantu bari kunyura muri izo nzira z'abanyamaguru ho hari abantu batatu bari gutamuka bagaragara mu mugongo n'abandi baririmbyi batagaragara neza.

Inzu irimo inkuta zifite ibishushanyo ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse amakamera ku gikuta, ikaba irimo intebe zijya gusa nk'ubururu ndetse n'intebe y'umukara. Ikaba irimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Inzu ifite parafo y'umweru ndetse ikaba ifite sima y'umweru, ikaba ifite aho bakarabira intoki h'umweru, akabati gafite irange ry'umuhondo ndetse hakaba harimo n'amarido afite ibara ry'umweru.

Inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, amamashini ndetse na za mudasobwa. Hakaba harimo imashini zigiye ziriho ibitambaro by'ubururu.

Abagabo babiri baryamye ku bitanda, bakaba bari mu nzu irimo ibitanda bibiri, hakaba harimo undi mugore umwe wambaye itaburiya, uri kuvura umuntu umwe muri abo barwariye muri ibyo, muri icyo cyumba.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu bwerurutse hakaba imbere ye hhari mashini ya laputopu n'indi mashini irimo ifoto ari kurebamo imbavu akaba imbere yari ameza ateretseho n'ibindi bintu akaba ari umuhanzi ufite amarido y'umweru.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye ahantu muri korodoro, ikaba iriho inkuta z'umweru ndetse hakaba hari umugabo umwe wambaye ishati y'umweru, wambaye agapfukamunwa k'umweru uhagaze.

Inyubako ifite mu imbere ha afite inkuta zifite ibara ry'umweru, purafo y'umweru ndetse hakaba hari n'urundi rukuta rufite ibara ry'ubururu, urufite ibara ry'icyatsi, hakaba harimo ibitanda bibiri.

Inzu ifite parafo z'umweru ikaba irimo ibikoresho byifashishwa bavura hakaba harimo imashini ifite ibara ry'umweru, isuzuma abarwayi akaba ari imashini nini.

Inzu ifite inkuta z'umweru, ikaba ifite umuryango ufunguye akaba imbere hagaragara ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, ikaba ifite amakaro y'icyatsi.

Inzu ifite inkuta z'umweru parafo y'umweru ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi aho harimo n'igitanda baryamaho, amavanderateri ndetse n'ibindi.

Igipangu gifite inkingi enyezi ziriho igisenge kikaba cyanditseho kinigera senta bikaba biri mu magambo yanditse mu ibara ry'umutuku imbere muri icyo gipangu hakaba harimo inzu gusa inyuma y'icyo gipangu bakaba hahagaze umugore umwe afite agatambaro k'umweru uhetse umwana.

Ndende ya etaje igeretse inshuro enye, akaba ari inzu ifite inkuta z'umweru, ikaba ifite amadirishya afite ibirahuri bya fime, imbere yayo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru, ndetse n'umukara, hakaba hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'umweru, ikaba ari imibare ibiri yanditse mu ibara ry'umweru.

Ikaba ifite inkuta z'umweru, parafo y'umweru ndetse n'amatara y'umweru, ikaba ifite amakaro y'umweru ndetse n'utundi dukuta tw'ibice tugiye turimo hagati tw'umweru.

Inzu nini ikorerwamo ubuvuzi ifite korodoro ifite sima y'umweru ndetse na prov y'umweru hakaba harimo icyapa cyanditseho pediyatirigisi sipeje sipesiyali kiriniki hakaba hari ikindi cyumba gifunguye gifite urukuta rufite ibara ry'umuhondo.

Ikorerwamo ubuvuzi ikaba irimo abantu benshi b'abaganga bambaye imyenda y'umweru ingofero z'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'umweru akaba ari inzu irimo ibitanda biryamyeho abarwayi buri gitanda kikaba gitandukanywa n'ikindi n'amarido y'ubururu ikaba irimo n'ibikoresho byifashishwa kwa muganga hakaba harimo n'intebe z'imikara.

Inzu kandi ya etaje ifite ibara ry'umweru ikaba ifite amadirishya afite ibirahuri bibonerana, imbere yayo hakaba ari icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'amagambo yanditseho mu ibara ry'icyatsi. Hakaba handitse inzu y'ababyeyi ndetse n'impinja. Akaba ari iyo nzu ababyeyi babyariramo ndetse n'impinja zitabwaho.

Inzu nini ifite amarido y'ubururu, ikaba irimo ibitanda bitatu bibiriho amashuka y'icyatsi hakaba harimo n'indi mashini.

Inyubako nini ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ikaba irimo amayetajeri menshi agiye atandukanye, aho aya mayetajeri arimo ubwoko bw'imiti bwinshi bugiye butandukanye.

Amamodoka menshi aparitse ahantu hameze nko muri parikingi, hirya yayo hakaba hari inzu nini igeretse, hakaba hari n'indi nzu ifite icyapa cyanditseho legasi.

Inzu nini ingeretse kabiri hejuru hayo hakaba handitseho king faisal byanditswe magambo afite ibara ry'icyatsi, akaba ari inzu imbere yayo iriho amadarapa atatu ririmo hagati akaba ariderapo ry'u Rwanda rifite ibara ry'icyatsi, ubururu, n'umuhondo, imbere y'iyo nzu hakaba hahagaze abantu.

Inzu nini ifite inkuta ndende, ikaba ifite imiryango igiye igitandukanye, ikaba ari inzu irimo intebe zigiye zitandukanye z'umukara ndetse n'izindi ntebe zifite irindi bara. Hakaba harimo intebe za saramanje ,zifite ibara ry'umukara ziri kumwe n'ameza y'ikizeru.

Gabo babiri hakaba arimo umugabo umwe wambaye jire y'umukara yanditseho arabisi akaba yambaye marinette abonerana, ndetse akaba yambaye agapira k'umweru inyuma yabo akaba ari urukuta rumanitseho ibikoresho bya kizimyamto bifite ibara ry'umutuku ndetse n'icyapa cy'irembo, rwanditseho amagambo y'irembo mu ibara ry'ubururu.

Jaride nziza zirimo pasiparume ndetse hakaba harimo n'indabyo z'umuhondo, hagati hakaba harimo ibiti bibiri by'umukindo, hirya y'iyo jaride hakaba hari amazu hakaba hari n'imodoka ziparitse hirya.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, akaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'ibiti, aho harimo parafo ikozwe mu biti.

Inzu nini ikaba irimo ibitanda byinshi hakaba harimo abantu babiri barigukora amasuku, umwe wambaye agapira k'ubururu ga z'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umugabo ndetse hirya hakaba hari umugore nawe wambaye itabuririya y'umweru ndetse akaba afite Rakerete.

Inzu ifite ibara rya oranje, hasi hayo hakaba hafite ibara ry'ubururu, ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara rya oranje. Hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo intebe, hakaba harimo akabati, gafite ibara rya oranje ndetse hakaba harimo n'imashini.

Inzu ifite inzugi z'icyatsi ndetse n'ibirahure bya fime, imbere yayo akaba ahagaze umugabo wambayetaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa akaba yambaye ikobo y'ubururu akaba atagaragara mu maso neza.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ipantaro y'umweru akaba ari kureba muri gifirigo gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru kikaba gifunguye gusa inzu arimo hakaba harimo ikindi gifiringo ndetse hakaba harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Inzu igeretse rimwe ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite imiryango y'umukara, ikaba yanditseho Shyira district hospital mu ibara ry'umuhondo, imbere yayo hakaba hari amabendera y'umweru.

Inzu cyangwa se uruganda rukorerwamo imiti, rukaba rurimo abagabo bambaye udupfukamunwa ndetse n'abagore, bakaba bambaye n'amataburiya y'umweru, aho harimo imashini nyinshi zikora ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'ubucupa bw'umweru.

Inzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ikaba ifite amakaro yometseho, afite inzugi ebyiri z'umutuku, hejuru y'izo nzugi hakaba hari ibirahuri bya fume, hejuru yabyo hakaba handitseho ayi fondesheni bikaba iri mu magambo y'umukara.

Inzu igaragara urebeye mu birahure by'irindi ndirishya akaba ari inzu yubakishijwe amatafari ya munyo ndetse ikaba ifite inkingi zifite ibara ry'umweru na koramo z'umweru ikaba ifite amadirishya y'umweru.

Ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite parafo y'umweru, ikaba ifite amadirishya n'inzugi bifite ibirahuri bibonerana, ikaba ari inzu irimo ibitanda byinshi ndetse n'utugare tw'abafite ubumuga, ikaba imanitsemo amasupanete menshi.

Abantu bari mu nzu nini, irimo intebe nyinshi zifite ibara ry'umukara, hakaba harimo abantu bicaye, imbere yabo hakaba ari imiryango ifunguye.

Inzu ifite imiryango y'umweru ikaba ifite ibirahure bibonerana hejuru y'iyo miryango hakaba handitseho pediyatirike senta bikaba biri mabara y'umutuku ,ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inzu nini ifite amabati y'ubururu, imbere ikaba ifite irangi ry'umweru, imbere yayo hakaba hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara, utagaragara mu maso

Inzu yubakishijwe amatafari ya mpunyu. Akaba ari inzu y'ikigo nderabuzima cya Gishwera. Imbere yayo hakaba hari abantu bane barimo umugore umwe, gusa muri abo bantu hakaba harimo umwe wicaye w'umugabo wicaye ku ntebe y'imbaho. Abandi bose bakaba bahagaze, hirya naho hakaba hari undi muntu utagaragara neza.

Inzu yubakishijwe amatafari ya mpunyu ikaba ifite inzugi ndetse n'amadirishya bifite ibirahure bibonerana ndetse bikaba bisize amarange y'umweru, hejuru hakaba hariho icyapa kiriho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi bahagaze barimo abagabo ndetse n'abagore babiri, bakaba bahagaze imbere y'inyubako yanditseho Isange one stop center Kabutare hospital, akaba ari inyubako yubakishijwe amatafari ya mpunyu.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi hakaba harimo icyumba gifite ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo abantu bari kuvura babiri, bakaba bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'utunozasuko tw'icyatsi, iyi nyubako ikaba irimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi.

Abagore batatu bambaye imyenda y'ubururu ndetse bakaba baba bafite ingofero mu mutwe z'umweru. Bakaba bari mu muhanda w'igitaka, aho inyuma yabo hari ibiti ndetse hakaba hari n'indabyo.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi, aho harimo udushashi twinshi tugiye dutandukanye turimo amaraso bifashisha bongera mu barwayi bayakeneye, hirya na ho hakaba hari abantu gusa batagaragara neza.

Abantu bambaye imyenda y'umweru, ipantaro y'umweru ndetse n'itariya y'umweru, hakaba harimo n'umugabo umwe wambaye ishati y'umweru, utagaragara mu maso, imbere hakaba hari abantu babiri bari kwitabwaho.

Inzu nini ifite ibara ry'umweru, akaba ari inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba harimo ameza maremare afite ibara ry'umukara, hakaba harimo intebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'utumeza bashyiraho ibikoresho byifashishwa na muganga.

Abantu batanu harimo abagore bane, ndetse n'umugabo umwe bahagaze hagati hakaba harimo umugore umwe w'umuzungu, inyuma yabo hakaba hari inzu ifite icyapa cyanditseho ranseti raboratori.

Icyuma kinini gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku, imbere yacyo hakaba hahagaze umugabo w'umusekirite hirya nawe akaba ari undi mugabo uri gutambuka imbere hari amazu menshi agiye atandukanye n'amamodoka ahaparitse.

Inyubako ifite inkuta z'umweru, parafo y'umweru n'urukuta rw'ubururu, ikaba irimo ibitanda byinshi bifite amashuka y'ubururu ndetse n'umweru. Buri gitanda kikaba gifite irido ry'umweru, rigitandukanya n'ibindi bitanda.

Iteye inkuta z'umweru, ikaba ifite amakaro y'umweru akaba ari inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye aho harimo imashini zifashishwa mu buvuzi hakaba harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Ibitaro bya Nyarugenge hospital. Akaba ari ibitaro bifite inzu nini ifite ibara ry'umweru, aho kuri iyo nzu handitse Nyarugenge district hospital, bikaba biri mu magambo afite ibara ry'umweru.

Inzu nini yubakishijwe amatafari ya mpunyu, ikaba ifite amadirishya afite irange ry'umweru, imbere ku ibaraza ry'iyo inzu hakaba hari abantu benshi. Hakaba hari n'abandi bahagaze imbere yayo, harimo abagore ndetse n'abana.

Inzu yubakishijwe amatafari ya mpunyu, ikaba ifite amadirishya ndetse n'inzugi bisize irangi rya shokora, bikaba bifite ibirahure bibonerana. Iyo nzu ikaba ifite inkingi zisize irangi ry'umweru ndetse n'inkuta zisize irangi ry'umweru.

Inzu irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo imashini nini yifashishwa bapima umurwayi ibibazo afite ku mubiri we, hakaba harimo utubati tw'utu etejeri tugiye dutandukanye.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byinshi, akaba ari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo amamashini agiye atandukanye, aho harimo n'andi magare bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako igeretse rimwe ifite igisenge gifite amabati y'ubururu, ikaba ifite irangi ry'umweru ndetse n'irangi ry'umutuku, imbere hayo hakaba handitseho ikigonderabuzima cya kanyinya. Ayo magambo akaba yanditse mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi bakaba bahagaze imbere y'inzu yanditseho amagambo avuga ati: Rwamagana Hospital, akaba ari mu ibara ry'icyatsi, akaba ari abantu benshi barimo abagore n'abagabo.

Nini igeretse kabiri akaba ari inzu ifite parikingi nini, aho parikingi yaho iparitsemo imodoka y'umutuku ndetse n'ipikipiki, ikaba ifite jaride imanitsemo idarapo.

Inzu nini ya etage ikaba igereretse inshuro eshatu, hanze muri parking yayo hakaba haparitsemo ama modoka menshi, aho haparitsemo imodoka eshatu z'umweru, ndetse hakaba harimo indi hagati y'umukara. Ku rundi ruhande narwo hakaba haparitse imodoka ebyiri z'umukara zitagaragara neza, ndetse n'iy'umweru nayo igaragara igice.

Inzu nini igeretse rimwe, akaba ari inzu ndende ifite ibara ry'umweru ndetse imbere yayo hakaba ari igiti cy'umukindo, ibumoso bwayo hakaba haparitse imodoka y'umweru.

Bifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu. Ikaba ifite purafo y'umweru, ikaba ifite amatara y'umweru, ikaba irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi. Haba harimo igitanda umurwayi ashobora kuryamaho bagiye kumusuzuma.

Abagore bane bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'amapantaro y'ubururu, bakaba bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bwerurutse, bakaba bari imbere y'inyubako yanditseho inzu y'ababyeyi materinite, ayo magambo akaba yanditswe mu ibara ry'ubururu.

Iyi nzu irimo abantu bagiye batandukanye, ikaba ifite parafo y'umweru, amatara y'umweru hakaba harimo abantu bari gutanga serivisi z'ubuvuzi ,aho harimo umu mama umwe uri mu kagare, akaba ari kwitabwaho n'undi mu mama wambaye imyenda y'umweru n'agapfukamunwa, gusa hakabamo n'abandi bantu bicaye ndetse n'undi muntu uhagaze.

Irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubuvuzi. Udutanda baryamaho, amafulati ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Inzu nini ikaba irimo ibitanda bifite amashoka y'ubururu, ndetse ikaba irimo n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi bigiye bitandukanye.

Inzu ifite imiryango ifite ibara ry'umweru umuryango wayo ukaba ufunguye, ikaba ifite amadirishya afite ibirahure bya fime, imbere yayo hakaba hari ibiti by'imikindo, hejuru ku nzu hakaba hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Abagore batandatu bakaba bambaye imyenda y'ubururu, amashati y'ubururu ndetse n'amapantaro y'ubururu akaba ari abaforomokazi, bose bakaba bambaye n'udapfukamunwa, bakaba bari imbere y'icyapa cya Legacy Clinics.

Akaba ari inzu igeretse, imbere yaho hakaba hagaragara inzugi zifite ibirahuri bibonerana hakaba handitseho n'ijambo arikade afurika riri mu nyuguti z'umweru.

Inyubako ifite parofo y'umweru, ikaba ifite urukuta rufite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu, ikaba irimo imashini zigiye zitandukanye zifashishwa mu buvuzi, hirya naho hakaba hari urundi rukuta rufite ibara ry'umukara.

Igitanda cy'abarwayi kikaba kiriho amashuka y'umweru ndetse n'umusego ufite umwenda w'umweru, kikaba kiri mu nzu ifite inkuta z'umweru, ikaba irimo ibikoresho byinshi byifashishwa bavuza.

Inzu zifite ibara ry'umweru zikaba zifite ibisenge bifite amabati atukura, imbere y'izo nzu hakaba hicaye abantu bagiye batandukanye, aho harimo abagore ndetse n'abagabo.

Ifite ibara ry'umweru ikaba ifite igisenge gifite amabati y'ubururu akaba ari inzu yanditseho ikigo nderabuzima cya cyashagasha, akaba ari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu imbere yayo akaba yicayeho abantu babiri bakuru ndetse n'abana babiri.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, amamashini menshi yifashishwa mu buvuzi, ikaba ari inyubako ifite inkuta zifite irangi ry'umweru, ikaba ifite amadirishya afite ibirahuri bibonerana.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru, ikaba irimo uturongo tw'ubururu, akaba yambaye ga z'umweru n'agakomo k'umukara mu ntoki. Akaba afite ibisuko, akaba ari mu nzu ifite inkuta z'umweru, ndetse akaba ari kumviriza.

Icyapa cy'ibitaro byo kwa Nyirinkwaya, hakaba kiri hanze y'inzu, akaba ari inzu ya etaje gusa itagaragara mo imbere, imbere mu gipangu hakaba harimo akazu k'umuhondo gafunguye.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, aho harimo amamashini menshi agiye atandukanye, hakaba harimo amasikirini areberwaho ibyakozwe n'ayo ma mashini abiri.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ikabutura y'umukara akaba yambaye urukweto rumwe nisogisi ry'umweru, ukundi kuguru kukaba kuri kuvurwa n'umugore wambaye imyenda y'ubururu gusa utagaragara mu maso, akaba yicaye ku kantu k'umukara kameze nk'akamotora.

Umugabo wambaye ikabutura akaba yambaye n'umupira w'umweru urimo umutuku muke, akaba afite igipfuko ku maguru, hakaba hari undi mugabo umuhagaze iruhande utagaragara umutwe wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara uri kumwitaho.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo: amakarugate, amaga, ndetse n'ibindi, bikaba byose biri ahantu hamwe, bikaba biteretse ahantu hari ibara ry'umweru.

Amacupa atatu afite ibara ry'umweru akaba ariho icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho stop bikaba biri mu magambo y'umweru ndetse n'umuhondo akaba ariho n'andi magambo afite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye agapira, akaba yambaye ekuteri z'umweru, akaba ateruye icupa, akaba ari kunywa amazi, akaba ari umugabo uri muri siporo, hirya hakaba hagaragara ibiyeziyezi nawe akaba atagaragara mu maso.

Umugore wambaye agasengeri k'umweru, akaba yambaye kora y'umukara, akaba yamanitse amaboko mu birere, imbere ye hakaba hagaragara amazi menshi, akaba ari umugore ufite imisatsi myinshi itagaragara mu maso.

Imashini ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite n'ibara ry'ubururu, akaba ari imashini ifite imibare irimo imbere ifite ibara ry'umukara ikaba itaretse ahantu h'umweru.

Umugore wambaye umupira w'umutuku akaba yambaye kuteri z'umweru, akaba ari umugore ufite imisatsi myinshi gusa utagaragara mu maso hose, akaba afite icupa ari kunywa amazi.

Umugore wambaye kola y'umukara akaba yambaye isengeri akaba ari kuri tapi ijya gusa umutuku wijimye akaba ari mu nzu irimo amavaze atatu ndetse akaba afite igikuta cy'umweru.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara akaba yambaye inkweto zijya gusa nk'umukara, umupira w'umukara, akaba ari gukora siporo mu nzu ifite tapi y'icyatsi, amadirishya afite ibirahuri bibonerana ndetse n'inkuta z'umweru.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo, aho hari umugozi urambitse hasi, wifashishwa muri siporo, inkweto ndetse n'akandi kantu kifashishwa mu gukanda, akaba ari isahani iriho imbuto.

Umugore wambaye isengeri y'ubururu gusa utagaragara neza akaba afite icupa ari kunywa amazi akaba avuye muri siporo inyuma ye hakaba hagaragara izuba gusa ritagaragara neza ryacanye.

Umu w' umwirabura, ufite ubwanwa bukeya, akaba atagaragara mu maso, akaba agaragara igice cy'umunwa n'amazuru, akaba afite icupa ririmo amazi akaba ari kanywa.

Abantu babiri harimo umugabo umwe ndetse n'umugore umwe, bakaba bari muri siporo bose bakaba bambaye amakabutura ndetse bakaba bambaye n'amasengeri, bose bakaba bafite ubucupa bw'amazi mu ntoki.

Umugore wambaye kola y'umukara, akaba yambaye isengeri y'umukara, aho ari mu nzu mu cyumba kiriho uburiri busheshe, akaba ari kwinanura, iki cyumba kikaba gifite inkuta zifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye mu isengeri y'icyatsi akaba ari kwimenaho amazi akoresheje agacupa, ukuboko kwe ku bumoso akaba yambayeho agatambaro ka move inyuma hakaba hagaragara ibiyeziyezi.

Abantu batatu harimo babiri baje gutanga ubufasha hagati yabo hakaba harimo umuntu umwe wambaye ingofero ndetse n'imyambaro bambara bagiye mu kibuga bakaba bari mu kibuga inyuma yabo hakaba hagaragara ibinezeze.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo, hakaba harimo imipira bakina, umupira bakina n'amaguru, umupira wa basikete, umupira bakina muri rugubi ndetse n'umupira bifashisha bakina tenisi, hakaba harimo n'ingofero herimeti.

Umugabo uryamye ku gitanda gifite ibara ry'umukara, akaba ari kumwe n'undi muzungu umuhagaze iruhande, bakaba bari mu myitozo ngororamubiri, uwo mugabo uryamye akaba yambaye umupira w'umuhondo, akaba afite tatuwage menshi ku mubiri, ndetse na tiriningi y'umukara.

Umugabo wambaye isengeri uri kureba imbere akaba afite agacupa k'amazi mu kuboko kw'iburyo, akaba ari umugabo w'umwirabura ufite umusatsi muke imbere ye akaba ntakinindi kintu kihagaragara.

Umugore wambaye agapira k'ubururu, akaba afite ekuteri z'ubururu, akaba ari kunywa amazi, akaba afite icupa mu kuboko kw'ibumoso, ukuboko kw'iburyo kwe kukaba kuriho agatambaro gatoya k'umweru.

Umugabo w'umukinnyi wambaye godiyo, akaba yambaye ikabutura y'umweru ndetse n'umupira w'umukara urimo imibare ifite ibara ry'umweru, akaba yicaye kuri burankari.

Igikapu cy'umutuku gifunguye, kikaba kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, aho harimo imikasi, hakaba harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo ndetse n'ibyifashishwa mu buvuzi.

Inkweto ifite ibara ry'umukara n'ibara rindi ry'ivu, akaba ari inkweto yambarwa n'abantu bafite ikibazo cy'ubumuga cyangwa se abantu bavunitse, akaba ari inkweto ndende ifasha abantu kuba bakongera umubiri wabo ukamera neza.

Abantu babiri barimo umugore ndetse n'umugabo, umugabo akaba yambaye isengeri y'umukara ikakabutura y'umukara akaba yicaye ku ntebe zo ku muhanda, akaba atagaragara mu maso neza ukuboko kwe kw'iburyo kukaba kuri kunywa amazi, umugore akaba yambaye ikabutura y'umukara, isengeri ndetse hasi hakaba hateretse ibikapu bibiri.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, akaba yambaye karavate ndetse n'ishati y'umweru. Akaba ateruye umupira bakinisha rugubi mu ntoki. Akaba atagaragara mu maso ndetse ku ijosi rye, hakaba hariho igikoresho bifashisha bapima abarwayi.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara akaba yambaye inkweto z'umukara, umupira w'umutuku akaba afite umupira wa rugubi aho ari mu mu myitozo mu nzu nini irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo, inyuma hakaba hari undi mugabo nawe ufite umupira wa rugubi utagaragara mu maso.

Iriho ibintu bigiye bitandukanye, aho iriho imidari, ibyuma bifashisha muri siporo, icupa, ibinini, imbuto zigiye zitandukanye, imineke, inanasi, amaronji, voka, indimu n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye isengeri ya oranje akaba ari umugore w'igikara ufite umusatsi wa natirere, akaba yambaye ekuteri z'umweru ndetse n'isaha mu kuboko kw'ibumoso akaba ari kureba imbere, imbere ye hakaba hagaragara ibihu.

Insimburangingo eshatu ziri mu bwoko bugiye butandukanye, hakaba hari n'ibindi bice by'umuntu bigaragaraho amaguru ndetse gusa bitagaragara mu maso.

Inzu nini ifite parafo y'umweru ku gikuta cyayo kaba handitseho sipoti ke biri mu magambo manini ari mu ibara ry'umukara. Akaba ari inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo n'ibikoresho bifashisha birukanka batavuye aho bari.

Igikoresho gifite ibara rijya gusa nk'ubururu bwerurutse kikaba cyifashishwa muri siporo, inyuma yacyo hakaba hagaragara umweru ndetse aho giteretse hose hakaba hari ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara akaba yambaye umupira, akaba ari muri siporo, akaba apfukamye yifashe ku ivi, akaba ari umugabo utagaragara mu maso.

Umugore wicaye kuri tapi y'umukara akaba yambaye kola ndetse n'isengeri y'umukara, imbere ye hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo ndetse n'icupa ry'amazi, hakaba hanateretse imashini ya laputopu.

Umugabo utagaragara mu maso akaba yambaye agapira ndetse akaba afite ekuteri z'umweru, akaba afite icupa ry'amazi ari kunywa, inyuma ye hakaba hagaragara ibiyeziyezi.

Umugabo wicaye ku gitanda cy'umukara akaba yambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira, aho ku kuguru kwe kw'iburyo bari kukuvura bakaba bari kumwambika bande y'ubururu, uri kuyimwambika akaba ari umugore utagaragara mu maso wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara.

Icupa ririmo amazi riri kumwe n'izindi mbuto harimo pome, irongi ndetse rikaba riri kumwe n'ibikoresho bifashisha bakora siporo rikaba riri kumwe na metero ifite ibara ry'umuhodo.

Umugore wambaye kora y'umukara, akaba ari mu myitozo ngororamubiri, aho aryamye ku makaro afite ibara ry'umukara ryerurutse, akaba ari mu nzu ifite ibirahure bibonerana.

Umugore wambaye kora y' umukara, akaba yambaye isengeri y'umukara ndetse akaba afite telefone ku kuboko kw'ibumoso, iri muri poshete y'umukara, uwo mugore akaba atagaragara mu maso, ukuboko kumwe kw'iburyo akaba yakuzamuye.

Umugore wambaye agapfukamunwa akaba yambaye rakosti y'umukara ndetse n'isaha y'umukara. Akaba ari kumwe n'undi muntu wambaye imyenda bakinana akaba yambaye akabande k'umweru, ndetse uwo mugore akaba ari kumuvura uwovura akaba ari umugabo.

Umugore wambaye isengeri akaba afite esime ku rutugu, akaba afite icupa ry'amazi akaba ari kunywa amazi, inyuma ye hakaba hagaragara ibara ry'umukara ndetse umweru utagaragara neza.

Ihuriro ry'abantu benshi barimo abana abagabo hakaba barimo abana bari gukora siporo bari mu kibuga cya baskete, ndetse n'abandi bantu bari inyuma benshi, inyuma yabo hakaba hagaragara insina nyinshi,

Umugore wambaye isengeri y'umukara akaba yambaye kola y'umukara inkweto zitukura, akaba afite pushete irimo telefoni ku kuboko kw'iburyo, akaba ari kwinanura ndetse akaba yicaye hasi, gusa umutwe wo ukaba utagaragara, imbere ye hakaba hateretse agacupa k'amazi.

Umugore wambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi, umweru ndetse n'ubururu akaba afite esume ku rutugu, aho ari kunywa amazi, akaba afite agacupa mu kuboko ku iburyo ndetse hejuru ye hakaba hagaragara igicu.

Ibikoresho birimo igikapu cy'umutuku gifite ibara ry'umukara, hirya hakaba hari igisitati kimeze nk'umuntu kirambitse hasi ku gitambaro gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Kibonerana akaba ari ikirahure bifashisha banywa amazi, akaba ari icupa riri gusukamo amazi. Kikaba giteretse hasi inyuma yacyo hakaba hagaragara umweru.

Inzu ifite inkuta z'umweru, purafo y'umweru, ikaba ari inzu ikorerwamo ubuvuzi, ikaba irimo abantu batatu bambaye amataburiya harimo umugore umwe, ndetse n'umugabo wambaye ikositimu, hirya hakaba hari abarwayi.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, akaba yambaye itiriningi y'umukara irimo uturongo tw'umweru ndetse n'udukweto twa sipuresi dufite ibara ry'umweru kuri taro, akaba yambaye ekuteri z'umweru, akaba ari umugabo uri muri siporo, gusa umutwe we ukaba utagaragara.

Umugabo w'umuzungu wambaye umupira w'ubururu akaba yambaye kora y'umukara ndetse n'inkweto ,akaba yicaye kuri escalier ,akaba avuye muri siporo ndetse akaba afite agasume kw'ijosi ,akaba ari kunywa amazi aho atagaragara mu isura.

Icyubuga cy'umupira w'amaguru hakaba harimo abantu bari gukiniramo, hirya batagaragara neza ndetse n'abandi bantu babiri bambaye amakabutura y'imikara, imipira y'ubururu harimo umwe uryamye, bari gukanda ivi gusa bose bakaba batagaragara mu maso, imbere yabo hakaba hateretse umupira wa baro.

Imashini ikorerwaho siporo mu buryo bw'ubuvuzi, ikaba yifashishwa n'abantu bafite ikibazo kijyanye n'uburwayi, ikaba iri mu nzu ifite inkuta z'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu akaba afashwe n'intoki z'umuntu wambaye itaburiya y'umweru, uwo mugabo akaba yicaye mu kagare. Akaba atagaragara umutwe ndetse n'umufashe akaba atagaragara umutwe.

Umugabo wambaye agapira gasa nka shokora, akaba afite agacupa k'amazi ndetse kakaba kari mu kuboko k'iburyo, akaba ari kunywa amazi, gusa akaba atagaragara mu maso.

Imeza iteretseho amasahani abiri, imwe ikaba iriho imbuto indi ikaba iriho amagi inyama ndetse foromaje, hirya hakaba hateretse ibikoresho bakoresha bakora siporo ndetse hirya haakaba hari agatebo karimo izindi mbuto n'ibindi bikoresho bakoresha bateka.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara akaba yambaye isengeri y'ubururu akaba yambaye ekuteri z'umweru, ukuboko kwe kw'iburyo kukaba gufite icupa risa nk'ubururu ry'amazi.

Imodoka iri mu muhanda ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku ikaba igaragara inyuma, inyumayo hakaba hari ipine ku muryango bafungura, ikaba iri kunyura mu muhanda ukikijwe n'ibiti.

Abantu benshi barimo abana, abantu bakuru ndetse hakaba harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bari mu kibuga kinini cya basiketi, inyuma yacyo hakaba hari ibintu ndetse n'iteti y'umweru.

Umuntu wambaye umwenda w'umukara akaba afite igitambaro cy'ubururu mu ntoki, akaba ameze nk'uri gukanda ivi ry'umuntu utagaragara mu maso ndetse n'uri kumukanda nawe akaba atagaragara mu maso,i nyuma yaho hakaba hagaragara oranje.

Umugabo wambaye agapira k'umweru akaba yambaye kuteri z'umweru akaba atagaragara mu maso, akaba afite agacupa mu kuboko kw'iburyo akaba ari kunywa amazi gusa kakaba katagaragara neza.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse akaba yambaye ijire y'ubururu, akaba afite igikoresho gipima cy'umweru, akaba afite umwana ari gupima. Imbere ye hakaba hari imeza akaba yicaye mu ntebe y'umukara.

Umugabo wicaye mu ntebe ifite ibara ry'umweru ndetse n'imisego y'ubururu, akaba yambaye ipantaro y'umukara n'umupira umeze nk'uwa gisirikare, akaba yamanitse ukuguru akaba ari kumwe n'undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru gusa utagaragara mu maso.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara akaba yambaye ikabutura y'umukara irimo akeru gake, aho ari muri siporo mu nyubako akaba ari kuyikorera kuri tapi yumukara, imbere ye hakaba hari intebe hirya, inzu ikaba ifite ibara ry'umweru.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ikaba ari inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, aho harimo abantu babiri, umwe wambaye isengeri y'umweru utagaragara umutwe, ndetse n'undi wambaye agapfukamunwa k'umukara, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ibinini bifite ibara ry'umuhondo oranje ndetse n'umweru wakabagara imbere yabyo hakaba hagaragara selenge, bikaba biri ku cyapa gifite ibara bijya gusa nka gereyi akaba ari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Abagabo batatu bakaba harimo babiri bambaye imipira y'umutuku ndetse bakaba bambaye na kask z'umutuku, amakora y'umuhondo, ndetse n'umwe wambaye umupira w'umweru kora y'umuhondo, ndetse na kasike y'umuhondo, bakaba bari ku cyapa cyanditseho meke pureyi fo safeti agisiudenti are avariyebo.

Ishyamba rinini ririho umugezi muremure umena amazi. Hasi imbere y'iryo shyamba hakaba hari abantu benshi gusa batagaragara mu maso, ubona ko bahetse ibikapu bigiye bifite amabara atandukanye.

Icupa rifite ibara ry'umweru, umufuniko w'umweru rikaba rifite icyapa kiriho gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba hari n'andi yanditse mu ibara ry'umweru.

Uducupa twinshi turi hamwe tugiye dutandukanye, tukaba dufite amabara agiye atandukanya utw'umukara, utw'icyatsi, tukaba turimo imiti gakondo, hirya yatwa hakaba hari abantu gusa batagaragara mu maso.

Abagabo barimo umugore akaba ari abagabo bambaye imipira y'icyatsi, hakaba harimo abandi bagabo babiri batambaye imipira y'icyatsi. Harimo uwambaye ikote ry'umukara rya kositimu n'undi wambaye imyenda isanzwe.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ifite uturongo tw'umukara akaba afite igikopo kirimo ibintu mu ntoki, ahantu ari hakaba hari ibikoresho byinshi gusa byiganjemo ibikopo byinshi biri mu ma etajeri.

Ry'umweru rifite umufuniko w'umweru rikaba ririho icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse na move hakaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara umwe ndetse n'umutuku akaba hari n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Etajeri irimo amacupa menshi agiye arimo imiti itandukanye, akaba ari amacupa agiye afite amabara atandukanye, hakaba harimo amacupa afite ibara ry'umukara, ibara ry'umweru, ibara rya kaki ndetse n'andi menshi.

Za oranje zikaba ziri ku isahani y'umweru ndetsetereho agacupa gafite ibara ry'umweru umufuniko w'umweru, hakaba hariho icyapa gifite ibara ry'umuhondo ndetse na move, hakaba ari amagambo yaditse mu ibara ry'umukara ndetse n'iry'umweru.

Igiti gifite amababi y'icyatsi, kikaba gifite n'andi n'izindi ndabyo zagishamikiyeho, inyuma yacyo hakaba hari ibindi biti byinshi gusa bitagaragara neza.

Uducupa tubiri dufite ibara ry'umweru, imifuniko y'umweru, akaba ari uducupa tw'imiti ikozwe mu gikakarubamba, aho handitse amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Ibibabi by'icyatsi, akaba ari ibibabi byinshi bicucitse ubona ko biri ahantu nko mu gashyamba, akaba ari amababi yo mu bwoko bumwe.

Ibimera bigiye bitandukanye aho kuri inyuguti ya A tuhasanga ibibabi by'ibyatsi, ku nyuguti ya B tukahasanga igiti gifite nacyo amababi y'icyatsi, inyuguti ya C tukahasanga ikimera cyifashishwa mu biryo akaba ari ikivumba, inyuguti ya D akaba ari igitoki.

Isahani ndetse n'igikombe kirimo ji y'umuhondo bakatiyemo ironje, iyo sahani ikaba iriho ibindi bisate by'ironji bibiri ndetse n'izindi mbuto.

Uducupa twinshi dufite ibara ry'umuhondo ndetse tukaba turi mu gikarito, gusa hakaba hari akandi gacupa kamwe katari mu gikarito, gusa na ko gasa n'uducupa turi mu mugikarito.

Akaba ari ibibabi byinshi biri mu ibara ry'icyatsi. Akaba ari ikimera cy'urumogi, kikaba ari ikimera gifite amababi menshi.

Ibiti karemano byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, akaba ari ibiti byo mu bwoko bw'ibikakarubamba, abenshi bakaba babyifashisha mu buryo bwo kugira ngo bibavure.

Umugabo utagaragara umutwe, wambaye rakosite y'icyatsi ifite ikora ry'umuhondo, ipantaro y'ubururu, akaba afite ikimera mu ntoki cyifashishwa mu buvuzi, inyuma ye hakaba hari gutambuka umuntu gusa na we utagaragara neza.

Ibiganza bifite agapapuro karimo imiti baseye y'ibyatsi, akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura umuntu, hirya y'iyo miti hakaba hari icyatsi kihagaragara gusa kigaragara igice.

Uducupa tw'amavuta hakaba arimo tubiri tw'umuhondo ndetse hakaba hari n'udukarito, n'utundi ducupa tw'umweru dutoya, hakaba hari n'agacupa kanini k'umweru gafite umuvuniko w'ubururu.

Ibiti biri mu mashashi y'umukara, akaba ari ibiti by'ubwoko bumwe, bigiye ari byinshi, akaba ari ibiti byifashishwa mu buvuzi gakondo. Bikaba bifite ibara ry'icyatsi.

Ibimera byinshi byo mu bwoko bwa tungurusumu bikaba bifite ibara ry'umweru ndetse buri kimera cyose kikaba kiriho udutungurusumu twinshi, akaba ari ibimera byinshi bibumbiye hamwe.

Ibibabi bifite ibara ry'icyatsi bikaba biri mu mavaze, aho aho biteye hatagaragara neza hirya yaho hakaba hari ahandi ahantu hagaragara nk'urukingi.

Ibyatsi byifashishwa mu buvuzi, akaba ari ibyatsi bigiye bitandukanye, bigaragara nk'amababi ibindi bigaragara nk'imbuto byose bikaba bigiye bifashwe n'intoki z'abantu gusa batagaragara mu maso.

Ibikarito, inanasi, ikirabyo, imineke byose bikaba biteretse ahantu hamwe, mu ikarito harimo icy'ubururu, icy'umutuku, icy'ubururu bwererutse, icy'umukara n'umweru ndetse n'ibindi.

Uducupa tw'umweru ndetse n'udukarito tw'umweru, tukaba duhagaze, akaba ari udufite amagambo yanditse mu mabara agiye atandukanye harimo icyatsi umutuku...

Imbuto karemano zirimo amaronji y'ubwoko bubiri ay'icyatsi ndetse n'aya oranje, hakaba harimo izisatuye ndetse n'izindi zitarasaturwa, akaba ari imbuto imbere yazo hakaba hari n'amababi.

Agacupa kamwe gafite ibara ry'umweru, kakaba gashushanyijeho agakapupe, ndetse hakaba hari n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umutuku, icyatsi, ubururu bwerurutse ndetse n'umutuku wijimye.

Isoko rinini ryaremwe n'abantu bagiye batandukanye, aho harimo abagore ndetse n'abagabo akaba ari isoko ricuruza imiti igiye itandukanye ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Ukuboko kwambaye umwenda w'ubururu gusa, nyir'uko kuboko akaba atagaragara, kukaba gufashe ikibabi, akaba ari ikibabi kiriho amababi menshi, hasi yacyo hakaba hagaragara ibyatsi n'ibindi bibabi byumye.

Imiti igiye itandukanye, iri mu bikoresho bigiye bitandukanye, mu bucupa, ubukarito ndetse n'ubukopo hakaba harimo imiti iri mu dukarito ndetse n'indi iri mu gacupa k'umweru.

Iri akaba ari icupa rifite ibara ry'umweru ndetse n'icyapa cyometseho cyanditseho inyuguti ziri mui ibara ry'umukara, inyuma yacyo hakaba hagaragara umweru akaba ari traditional medecine.

Agacupa k'amavuta bashyira mu modoka kakaba gafite ibara ry'ubururu, kakaba kanditseho inyuguti eshatu ziri mu ibara ry'ubururu, imbere yako hakaba hari nimero za telefone.

Ibara rya move rikaba ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse imbere yaryo hakaba hari uducupa tugiye dutandukanye udutoya ndetse n'utunini ndetse n'ibikarito.

Umugore wambaye agatambaro k'umweru akaba afite ishakoshi mu kuboko kw'ibumoso, ukundi kuboko kw'iburyo kukaba kuri gusarura ibyatsi byifashishwa mu buvuzi, bikaba ari ibyatsi biri ahantu hamwe gusa byivanzemo n'insina n'amababi y'insina.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye tukaba tugiye turi mu mabara agiye atandukanye aho harimo utw'umweru hakaba hari n'utundi n'akandi gafite ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari n'udushushanyijeho igikakarubanda.

Tubiri turimo imiti hirya hakaba hari abantu bagaragara mu maso akaba ari abagore ndetse n'abagabo, hakaba ari amasura yabo gusa akaba ari amasura y'abazungu.

Isoko ririmo imiti igiye itandukanye, aho harimo imiti y'amoko menshi, ikaba iri mu macupa agiye atandukanye, iryo soko rikaba ririmo abantu benshi bagiye batandukanye, aho barimo abagore ndetse n'abagabo.

Icupa ry'umweru ririmo amavuta akozwe mu gikakarubamba, akaba ari icupa ririho amagambo yanditse mu ibara rimwe gusa umutuku werurutse n'andi magambo afite ibara ry'umukara, rikaba rifashwe n'ikiganza kitagaragaza nyiracyo.

Igiti gifite amababi agiye atandukanye, akaba ari amababi y'icyatsi, akaba ari igiti kiri ahantu hiherereye, hasi yacyo hakaba hari ibyatsi bitari byinshi.

Inyubako ifite ibara ry'umukara, ikaba iri kumwe n'agahini kayo gatoya gafite ibara ry'umukara, imbere yabyo hakaba hari ibyatsi by'ubwoko bugiye butandukanye, hakaba hari ibyatsi byifashishwa mu miti gakondo.

Ishyamba ririmo ibiti, gusa hakaba hagaragara amababi. Akaba ari amababi y'icyatsi ndetse hakaba hagaragara ibihuru byinshi n'ibiti bitagaragara neza.

Uducupa tugiye dutandukanye, hakaba harimo udufite ibara ry'umukara, ndetse hakaba harimo n'utundi tubonerana, hakaba harimo imiti, tukaba tumanitse mu mayetajeri.

Ishyamba ririmo ibiti bigiye bitandukanye, aho harimo igiti kimwe gihagaze cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, akaba ari igiti gito kidafite amashami menshi gusa kiriho amababi menshi, akaba ari igiti kigufi cyane.

Uducupa tw'amavuta, ndetse n'igikarito cy'amavuta, akaba ari amavuta ari natireri, tukaba turi mu bikarito by'umweru nyuma yatwo hakaba hagaragara ibara ry'umweru.

Igiti kinini giteye ahantu mu byatsi byinshi, akaba ari igiti kirekire gifite amashami menshi ariho amababi menshi, akaba ari igiti gifite amashami y'icyatsi, hirya hakaba hari ibindi biti gusa bigufi.

Amacupa menshi agiye arimo ibyo binyobwa bigiye bitandukanye by'umuhondo, umutuku ndetse hakaba harimo n'amacupa atagaragara ibinyobwa mo imbere.